Ubwishingizi ni uburyo bwiza bwo kwiteganyirizwa, aho buri wese aho abarizwa haba hagiye hari ibigo by'ubwishingizi bigiye bitandukanye, aho umuntu ashobora kwishingirira amazu ye, imitungo ye, amashuri y'abana, ubwo rero biba byiza nk'iyo umuryango washyize hamwe kugira ngo utange ubwo bwishingizi kuko ejo n'ejo bundi ubwo bwishingizi batanga, burabagoboka bahuye nk'ibibazo cyangwa se bakeneye ubufasha.

Uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe uburyo bwa momo peyi, ni uburyo bwiza bwo bworohereje abantu kuba bagenda bikoreye munzira amafaranga, aho ubu ngubu buri wese amafaranga yose ye ayatwara kuri telefoni kandi akaba afite ubushobozi bwo kuba yahaha ikintu cyose yifuza aho yaba ari hose akoresheje telefone ye, akaba yakishyura tagisi y' urugendo kandi akaba yakoherereza n'umuntu amafaranga uyakeneye yaba ari murugo cyangwa se yaba ari ahandi hatu.

Ku mapisine ni ahantu heza abantu dukunda kuruhukira igihe hariho ubushyuhe dukeneye kujya koga, dukeneye kujya kwishimisha, ubwo rero ni kimwe mu bikorwa remezo biba bikenewe n'urubyiruko n'abakuze muri rusange kubera ko buri rugerero rwose waba urimo ushobora kwisangamo kandi rwose biba bishimishije.

Amahoteli ni bimwe mu bikorwa remezo dusanga hirya no hino ku isi aho buri gihugu kiba gifite moteri yacyo cyakiriramo abantu baje gusura igihugu, biba ari byiza rero iyo igihugu gifite ibikorwa remezo nk'ibyo ngibyo kuko bituma abantu bishimira kugisura, kandi nubwo baza bakaba badashobora kubura aho barara. Ubwo rero ni iby'ingenzi ko tugomba gushyiramo imbaraga natwe kugira ngo twubake ejo haza n'andi mahoteli menshi cyane.

Ubucuruzi bw'ibiribwa ni uburyo bwiza bwashyizweho bwo korohereza rubanda kugira ngo babone ibyo kurya bitabagoye urugero nk'ibishyimbo, aho sanga ku masoko hagiye hatandukanye cyangwa se ibigori kandi bikaba ari ibiryo biba bikungahaye ku ntungamubiri ku buryo ari ibiryo by'ingenzi umuntu ashobora kuba yarya igihe cyose.

Amasoko tuzi nka supa maketi ni amasuko meza aho yorohereza abantu guhaha ibyo bakeneye kandi ugasanga akora amasaha yose, ubwo rero biba ari byiza kubera ko byorohereza abantu kubaho, haba mu mujyi cyangwa se n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.